Umugore uhetse icuma co guteresha umuti ico cuma kikaba gifite amabara g'ubururu agaba afashe agasambi ku rutugu g'ubururu afashe n'akandu kameze nk'akasika mu ndoki yambaye n'ingofero y'urubaraza akaba ari kugendera mubitaka bi.

Igishashi c'umuhondo kirimo umuti gwa detane, guno muti gukaba gwifashishwaga mu kwica udukoko gukaba gutegwaga ku bihingwa bitandukanye, harimo inyanya, harimo ingano, harimo ibirayi, harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gukaba guri mu gishashi c'umuhondo, gifite amabara y'utubara tw'umutuku, turiho hakaba handitseho n'andi magambo menshi cane.

Umundu wambaye ga y'umuhondo ufashe icuma co guteresha umuti kimeze nk'ipombo uri gutera imbuto umuti, kugira ngo izo mbuto nizera zizacuruzwe zitange umusaruro. Hirya y'aho hakaba hari utundi twatsi dufite uturabyo tw'umuhondo.

Abagabo babiri bahagaze mu murima gw'ibigori umwe wambaye ingofero n'undi utambaye ingofero uwo utambaye ingofero akaba afite uruhara hijya yaho akaba ari n'ugundi murima guhinzemo ibigori hijya guwo murima hakaba hari gitari gihinzemo ibiti byinji.

Imbuto nyinshi zimwe zisutse hasi izindi ziri mu gafuka k'agashashi, zikaba zifashishwa mu guteza imbere ubukungu bw'Igihugu no guhaza abaturage mu biribwa no mu iterambere kandi zikaba zifashishwa cyane ahantu hagiye hatandukanye ku ikoreshwa ry'ibihingwa.

Umugore witeze igitenge mu mutwe wambaye agapira k'umuhondo uhetse icyuma cyo guteresha umuti gifite ibara ry'umuhondo akaba afashe inkoni yo guteresha umuti ari gutera inyanya imbere ye hakaba ari umujyi wa Kigali.

Umundu uhetse icuma co guteresha umuti wambaye igisarubeti c'umukara, uhetse icuma gifite ibara jy'ubururu n'umuhondo, akaba ari gutera umuti inyanya zisa naho zapfuye cane. Hijya yaho hakaba hari igiti ciza gifite amashami menshi.

Ikintu gikoze mu farine gumeze nk'umukati gufite amabara gagiye gatandukanye, meza cyane nyuma yaho hakaba hari akaronji gakase, kandi ugo mukati ukaba ari mwiza cyane, kubera ko gwifashishwa mu kugandura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere ukora guno mwuga wo gukora imigati.

Ifi ebyiri ziri kureba mu byerekezo bitandukanye buri fi hejuru yayo hari akaronji k'agasate, kuri buri fi n'akababi ka tinori kari kuri buri hejuru ya buri fi, ifi ikaba yifashishwa mu gutegura ifunguro rya buri munsi rikungahaye intungamubiri.

Ibiryo bitetse neza cyane bigizwe n'indungamubiri z'ubwoko butandukanye, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda ingwara rikaba ari ifunguro riteguye neza, ryafasha umubiri gukora neza no kugira ubuzima bwiza. hakaba harimo ibirayi, harimo umureti, harimo n'utuboga two kurinda ingwara.

Umuntu uri mu kiyaga akaba ari gushaka amafi kugira ngo abone ibyo kumutunga n'ibyo kujana ku masoko, akaba yicaye mu bwato bw'ibiti hijya y'ubwo bwato hakujya hakaba hari umusozi guteyeho ibiti, hijya no hino hakaba hari amazi magari menshi cane kandi akaba ari ahantu abantu bakunda gusohokera n'abarobyi bakunda kurobera.

Amafi me amafi meza cane gifashishwaga mu gutegura ifunguro rya buri munsi garunze ahantu hamwe menshi cane, amafi kakaba gakungahayemo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kubaka umubiri neza, kurinda indwara no gutuma umuntu agira ubwenge no kwigirira imibereho myiza.

Umurima gwurimo imishingiriro, gwurimo n'ibigori byumye ubona ko byasaruwe, hateyemo n'ibirayi byiza cane, inyuma yabyo hakaba hari igitari kirimo ibiti birebire, bifite amashami menshi n'ikirere kererutse gisa neza.

Umurima guhinze iruhande rumwe rumwe uruhande rumwe rukaba ruhinze neza urundi ruriho ibitaka n'umucaca urundi inyuma yaho hakaba hari ibitari kimwe gifite uduti dutoya dufite amababi garuvubu ikindi gifite ibiti binini bifite amashami menshi.

Ibishimbo byameze mu mabuye kimwe kikaba carabaye gikuru ho gatoya, bikaba biri mu tubuye twinshi cane, ibishimbo bikaba bikundaga kumera ahantu aho ari ho hose, iyo cahaguye kikaba cari cumye kigeze igihe co guhingwa kikamera.

Urutoki ni rumwe mu bihingwa bitangaga umusaruro mwinshi kandi bigaburiraga abaturage benshi bagiye batandukanye, ibitoki bitanga umusaruro mwinshi bigendewe n'ubutaka bwiza bihinzwemo, akaba ari ibitoki munsi ya byo harimo ibirayi bifashwe n'ibiti byo kubitangira, kugira ngo bitazagwa bitewe n'uburemere bwinshi bw'igitoki bizaba biri kwera.

Umurima guhinzemo karoti. Karoti akaba ari kimwe mu bihingwa bitezaga imbere igihugu cyacu kubera ko karoti ari bimwe mu bihingwa bijanwa mu mahanga bityo bikinjiza amadovize n'ubukungu bw'igihugu bukazamuka n'ubukungu bw'umuturage. Hirya yaho hakaba hahinze ibintu bisa n'imyumbati, hirya yaho hakaba hari ibitari birimo ibiti.

Ibyatsi by'urubingo byiza cane, byeze cane. Bigaragara ko bitoshye bihinze ahantu heza. Inyuma yaho hakaba hari akarima gahinzemo ibigori, n'intoki, inyuma yabyo hakaba hari agasozi kari kugaragara gafite imisozi zimeze ng'amenyo keza cane.

Ibiti bitoya bifite amababi ga ruvuvu. Amababi ga ruvuvu gakaba gifashishwaga mu buvuzi, cyane cyane kuvura ibijaniranye n'amagiripe n'ibicurane. Inyuma yaho hakaba hari ibindi biti birebire bikuze by'indusi.

Abantu bari kwahira ubwatsi bakaba bafashe imifuka bayishyize imbere ku mutabo. Bakaba ubwatsi bari kwahira bari kubuzana bakabushyira mu izo mifuka. Inyuma yabo bandu hakaba harimo umurima uhinzemo ibindu bitari byamera neza. Hirya hakaba hari ibyatsi by'ibirabo birabije uturarabyo twiza.

Umurima gurimo uruyuzi, uruyuzi harimo n'ibintu batemye by'ibigori, hijya y'aho hakaba hari ipoto jy'umukara, inyuma yajyo hakaba hari ibyatsi bifite uturabyo turabije twiza, kaba muri ugwo ruyuzi harimo ibindi byatsi bisa icatsi.

Umurima uhinzemo amashu ubona ko ateze cyane, hirya yayo hakaba hari ikigo cy'amashuri gifite amabati y'ubururu asakaje ayo amashuri, cyubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya arimo senyenge, ruguru yaho akaba ari umucaca.

Umurima gwari guhinzemo ibigori bigaragara ko babisaruye gukaba gufite ibishara byinshi cyane by'ibigori, inyuma yabyo hakaba hari igiti c'inganzamarumbo kinini cane gifite amashami menshi cane, bigaragara ko inyuma yaho hari umudugudu gutuyemo amazu harimo inzu ifite amabara g'ubururu g'amabati.

Igiti kirekire cane kiruta ibindi biri munsi yacyo，muri ibyo biti biri munsi yacyo bikaba bifite amabara atandukanye，n'icyo kirekire kikaba gifite amashami menshi cane， kikaba gisa icyatsi cyijimye， ibindi bikiri munsi bifite ibyatsi byererutse，hirya yaho hakaba......

Amajeri menshi gavangavanze n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, muri ibyo byatsi hakaba harimo n'uturayi twa cimeza, n'ago majeri gakaba gafite uruyange. Hirya yago hakaba hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibiko n'urutoke ruri kugaragara ruri inyuma cane.

Ahantu hari inzira nyabagendwa. Iruhande rw'iyo nzira hakaba hari igipangu, ico gipangu cikaba gifite inzu irimo mo imbere, ifite amabati g'umutuku, n'iyiri ku ruhande yubakishijwe amatafari gahiye, n'iyiri kugaragara ifite amabati g'umweru. Iruhande rwabyo hakaba hari ibiti bya avoka byiza, hafi yaho hakaba hari uruzitiro. Iyi nzira ikaba isanzwe inyurwamo n'abagenzi.

Abantu batanu batatu bahagaze, abandi basa n'abunamye, bambaye ingofero zisa, n'udupira tuja gusa, uretse umwe udasanisha nabo, bari mu bigori basa nk'aho bari gukora umuganda no kubikorera isuku, inyuma yaho hakaba hari abantu hatari kugaragara neza, inyuma y'abo bantu hakaba hari agatari karimo ibiti byinshi cane.

Ihene nyinshi zitandukanye zifite amabara gatandukanye zimwe z'umukara n'izindi zivanze amabara ifite amabara y'umukara n'umweru ifite umuhondo n'umweru zimwe zikaba ziryamye izindi zihagaze zimwe zika ziziritse ku biti hirya yazo hakaba hari uruzitiro gw'ibiti ruriho ibiti bimeze ngi.

Igitoki cegetse ku nzu yubakishijwe amatafari gahiye igitoki kikaba ari mu bihingwa bikundaga kwera cane cane mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda kikaba gikungahaye intungamubiri zirimo ibitera imbaraga kandi kikaba cyafasha no mu bukungu bw'iterambere ry'umuturage n'igihugu muri rusange.

Umugabo wishimye cyane, wambaye ingofero y'urubaraza n'ikoti ry'umutuku, imbere harimo ishati y'umweru, ufashe isuka ayishyize ku rutugu, inyuma ye hakaba hahinze ibishyimbo bitoshye cyane, imbere ye ku ruhande hakaba hari ibyatsi by'urubingo.

Ibigori bihinze mu murima w'ubutaka bwiza cyane byumye bigaragara ko byasaruwe. Ibigori akaba ari kimwe mu bihingwa biteza imbere ubukungu bw'igihugu n'ubuhinga kandi bikaba bifite uburyohe bikaba byakorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye haba ifu y'igikoma, haba ifu ya kawunga cyangwa kubiryamo impungure.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bihingwaga cane cane mu majaruguru g'u Gwanda no mu burengerazuba bw'u Gwanda bikaba ari ibihingwa bicuruzwa henshi cane mu gihugu cacu kubera ko bitanga umusaruro kandi bikaba bijyohaga akaba ari ibirayi bikuye bigiye kujanwa ku isoko.

Abagore bunamye bari gukora ingamba igikorwa co gukura ibirayi byeze, barangiza bakabijana ku masoko. Kandi ibirayi gihe kimwe mu bihingwa bitangaga umusaruro mwinshi kandi bikaba bicuruzwa henji mu gihugu. Inyuma yabo hakaba hari ahantu hari ibiti birebire.

Umugabo w'igikara ufite uruhara ufashe telefoni yayishyize ku gutwi asa n'uri kuyivugiraho ari guseka ,afashe umuhini w'isuka yayishyize ku rutugu, inyuma ye hakaba hahinze ibigori ,yambaye agapira k'umukara karimo uturongo tugiye kuba umweru.

Abandu benshi bahagaze harimo n'abicaye kubindu bimeze ng'ibyatsi byinshi byumye. Harimo abagabo n'abagore, harimo umugore uri ng'imbere wambaye akandu k'umutuku basa nk'abari kwifotoza inyuma yaho hari ibiti bifite amababi meza cyane inyuma hari igicu c'umweru mwinshi cane.

Voka ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi cyane, nubwo cyera gitinze ariko gitanga umusaruro mwinshi mu gihe cyageze igihe cyo kwera, kikaba gikungahaye intungamubiri zibirinda indwara, kandi kikaba cyafasha umuntu kugira ubuzima bwiza, kikamurinda kurwara indwara zigiye zitandukanye.

ihene z'amabara gagiye gatandukanye ziri kurisha ubwatsi bw'urubingo. Imwe ikaba ifite ibara ry'umukara, indi ikaba ifite ibara rigiye kuba umuhondo, zikaba ziziritse ku biti by'ingingi bifashe amabati bimeze nk'uruzitiro.

Abandu benshi bunamye mu mbuto banitse bari kurondoramo izipfuye bari kuzikuramo kugira ngo zidakomeza kwangiriza n'izindi, inyuma yabo hakaba hari n'izindi mbuto nyinji zitandukanye zanitse ku bwanikiro, hijya yabo hakaba hari urutoki rwinshi cane

Abahinzi benshi bari mu muririma gw'ibigori. Hakaba hari umugore witeze igitambaro c'ubururu ufashe ikigori mu ndoki. Inyuma ye hari abandi bandu benshi bari kwitegereza imbere. Inyuma yabo hakaba hari ibigori byinshi, inyuma yabo hakaba hari ahandu hateye ibiti.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa biryoha cyane, kuberako bishobora kuvamo ifu y'igikoma, bikavamo imbungure tukaziteka, tukazitsimba tukazirya, hakaba havamo na kawunga bazishesheje ukaba ubona ko ari ibigori byeze neza cyane.

Umugore uhagaze imbere y'abandi bari inyuma ye, ufashe isuka ufi uteze agashora karimo amabara gagiye gatandukanye. Hirya ye hakaba hari ibigori, hakaba bari kugendera ku bitaka by'umukara. Inyuma yabo hakaba hari amazu n'amashamba gari inyuma ya bo.

Igitoki cyeze neza cyane gifite igitoki kinini hirya hari ikindi kitari cyera, imbere yazo hakaba hari amakawa bigaragara ko bihinze bivangatanyije. Ikawa akaba ari igicuruzwa kigurishwa mu mahanga bityo kikinjiza imisoro myinshi kikanateza imbere ubukungu bw'igihugu.

Abagabo babiri bafashe umunzani bari gupima imyumbati imyumbati ubona ko yeze cane ari imyumbati myinshi, inyuma yabo hakaba hari igiti kimeze nk'icyavoka, inyuma y'ico giti hakaba hari agatari gahinzemo ibiti by'indusi, imbere yako hakaba hari ibyatsi bigiye kumera nk'ibyumye.

Abagore batatu bari mu murima bari guhinga, babiri biteze ibitambaro undi utiteze igitambaro ufite umusatsi wumukara, uwo hagati akaba yambaye umupira w'ubudodo w'icyatsi n'igitenge, undi wo hirya akaba yambaye agapira k'umweru n'igisume, uwo hino akaba yambaye agapira karimo umukara n'igitenge, inyuma yabo hakaba hari ibiti n'agasozi kari inyuma y'ibyo biti.

Umudamu uri kubagarira ibirayi, hijya yaho hakaba hari ikirunga bigaragara ko ari mu majaruguru gw'u Rwanda kubera ko ibirunga bibaga mu majaruguru gw'u Rwanda noneho hijya y'aho hakaba hari inzu isakajwe n'amategura, hijya hakaba hari ibindi byatsi n'akantu gakoze nk'akazu kari mu bi...gasakajwe n'ibisika.

Ahantu hari isoko ry'ibitaka, bacururizamo ibirayi by'ubwoko bugiye butandukanye, hakaba hari ibirayi birimo imifuka y'umuhondo, n'indi iri mumifuka ifite uturongo mu mpande tw'umutuku, hirya yaho hakaba hari agatete gafite amabara atandukanye, meza cyane.

Imyumbati ni zimwe mu bihingwa bitezaga imbere ubukungu bw'igihugu kubera ko zitanga umusaruro mwinshi cane, ubona ko ari igiti c'umyumbati ceze cane gifite imyumbati myinshi, imyumbati twaba dushobora kuyikoramo ubugari cangwa kuyijya kuyiriraho atari ubugari, ikaba zirambitse hasi ku mucaca.

Umugore muremure ufite umusatsi gw'imikara，ufashe umuhini gw'isuka，akaba yayishyize ku rutugu，iruhande rwe hakaba hari ibyatsi byiza cane，imbere ye hakaba hari umurima guhinzemo ibigori， hirya ye hakaba ari agasozi gahinzeho ibiti bikeya.

Abantu benji bikoreye ibitete birimo icayi, icayi akaba ari kimwe mu bihingwa bitangaga umusaruro mwinji cane kubera ko kigurishwa haba mu gihugu mo imbere no mu mahanga bityo bigateza imbere ubukungu bw'igihugu n'ubukungu bw'umuturage.

Abagore bari gukora ingamba, bari gukura ibirayi by'umweru, ibirayi bimaze gukura, bakabishira imbere yabo. Noneho, hirya yaho, hakaba hari ishamba riteyemo ibiti bifite amababi ya ruvuvu. Imbere yaho, hakaba hari ibitaka by'umukara.

Inzira ndende cyane ikikijwe n'umucaca hirya no hino hahinze ibigori byinshi cyane ibigori akaba ari kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi bityo abacuruzi babyo bakunguka n'igihugu kigatera imbere binyuze mu misoro byinjiza.

Abantu batatu harimo umugabo ufashe isuka bari kubagarira ibirayi kugira ngo bitazaterwa n'udukoko tukabyangiza bigatuma bitera neza. Inyuma yabo hakaba hari umurima guhinzemo ibishyimbo bifite amababi gatoshye cyane.

Umugore wicaye mu murima guhinzemo imboga nziza cane. Izi mboga zikaba zifashishwa mu gutegura amafunguro ga buri munsi. Zikaba ziryohaga cane, hirya yaho hakaba hari umurima guhinzemo ibindu bimeze ng'icyayi, hirya yaho hakaba hari agasozi musi y'ako gasozi hakaba hari amazu makeya gatuyemo abantu.

Indimu ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ivuraga ingwara zigiye zitandukanye. Indimu zikaba ziri mu kintu kimwe kivuraga ingwara nyinshi zitandukanye kandi ari urubuto rumwe, twavugamo umutwe, twavugamo inkorora, twavugamo ibicurane n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ari ingenzi ku buzima bwacu kandi zikaba zatanga n'inyungu kuzicuruza.

Ikizu batuburiragamo ibiribwa kugira ngo byiyongere, bityo umusaruro wiyongere. Hakaba harimo abantu baje kureba ibihingwa batuburiyemo kugira ngo barebe ukuntu bimeze, akaba ari ibihingwa byiza cyane, bifite amababi meza cyane ubona ko bitoshe, akaba ari abantu benshi bari kubireba.

Isoko ry'ibiribwa aho dusangamo ibiribwa bigiye bitandukanye. Muri ibyo biribwa hakaba haririmo inyanya, pwavuro, ibitunguru, karoti, imiteja, intoryi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hakaba hari umundu mu soko uri gukoresha telefoni, uri kureba muri telefoni. Muri iryo soko hejuru hakaba hari amarangi gameze nk'umuhondo.

Umurima ufite ibitaka byiza cyane, uhinzemo igihingwa cy'ibitunguru bya puwaro, ibitunguru bya puwaro bikaba ari ibitunguru byifashishwa mu guteza ubukungu bw'igihugu imbere, bikaba bitekwamo nk'imboga kandi bikaba bicuruzwa ku masoko, bityo bigatanga n'imisoro yungura igihugu kigatera imbere kikubaka ibikorwa remezo.

Abantu batandatu bari mu murima w'amashu bari kuyakorera kugira ngo barebe ko yagira ubuzima bwiza, yekwatakwa n'udukoko twayangiza. Inyuma yaho hakaba hari urutoki n'ibiti birebire bibiri by'ibiko, byitwa ibiko. Kubagarira amashu akaba ari kimwe mu gikorwa gituma akura neza, agira n'ubuzima bwiza.

Umugore uri mu muririma w'ibigori ari gusarura akaba afashe ibigori bibiri ari kubyerekana yiteze igitenge mu mutwe, hirya ye hakaba hari n'undi murima w'ibigori haciyemo akayira hirya hakaba hari umusozi munini.

Avoka ni kimwe mu bihingwa bikungahaye, intungamubiri zirinda indwara, ikaba yifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, kandi ikaba ishobora kuba yakurwamo amavuta yo kwisiga n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi voka ikaba iboneka ku masoko, kandi ikaba yazamura n'ubukungu bw'uyicuruza.

Ihema jyanitseho uburo bwinshi, imbere yajyo hakaba hari igicucucu cy'umuntu wambaye urukweto rw'umweru akaba ari rirambuye ku butaka bwiza bw'umukara, izi mbuto zikaba zifashishwa mu gutegura igikoma, igihe zeze ukazishesha kugira ngo zitange umusaruro ushimishije.

Agasafuriya karimo amajeri, amajeri akaba ari kimwe mu bihingwa bikungahaye mu ntungamubiri nyinshi cyane, zirimo ibyubaka umubiri kubera ko umuntu aba akeneye intungamubiri zo kubaka umubiri we kugira ngo agire ubuzima bwiza. Agasafuriya kakaba gateretse kuri sima.

Umugore wirabura wambaye umupira ujya kuba umutuku, wambaye ishapure mu ijosi rye, ufashe umuhini, ahetse agafuni ku rutugu, inyuma ye hakaba hari ibishyimbo bya mushingiriro, inyuma hakaba hari agasozi n'ikirere gitamburuye cyiza.

Ibijumba bamajije gukura bikiriho utugozigozi bitari byatunganywa neza, ibijumba bikaba ari muri bimwe mu bihingwa bitangaga umusaruro mwinshi kandi bikungahaye ibitera imbaraga nyinji cyane bikaba byatuma umuntu aja gukora amerewe neza kandi afite imbaraga nyinji.

Ibitoki byinshi cane biri hamwe bisa n'aho biri muri sale. Inyuma yabyo hakaba hari igikuta c'amabuye arimo ibara ry'umweru n'umukara. Ibitoki akaba ari igihingwa cifashishwa mu guhaza abaturage, kikaba gikungahaye indungamubiri zirimo ibitera imbaraga.

Amashu arunze hamwe ku gatanda gakoze mu mbaho z'ibiti bishaje, hirya hakaba hari abantu babiri bahagaze umwe wambaye agapira k'ubururu uhetse umwana, n'undi wambaye umupira w'umukara, n'umugore wicaye witeze igitambaro kirimo amabara y'umutubu.

Ibihaza ni kimwe mu bihingwa bikungahaye intungamubiri nyinshi cane. Muri izo ntungamubiri hakaba harimo ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Akaba ari kimwe mu bihingwa biteza imbere ubucuruzi bw'ababicuruza, bikaba biteretse ku kameza kasa k'ibiti gafite ibara rigiye kuba nk'umuhondo.

Umucaca mwiza cane gurambuye gushashe, akaba ari umucaca gwakwifashishwa mu kwicaraho igihe umundu ashaka kuruhuka. Ukaba ari mwiza cane kubera ko gutumaga jalide yawe isa neza, ugateza imbere ubukerarugendo, ugateza imbere n'ubukungu n'ubuzima bwiza bw'umundu.

Imiteja ni igihingwa cyiza cane kubera ko kifashishwa mu mafunguro yacu yo mu buzima bwa buri munsi, kikaba ari igihingwa kifashishwa mu gutegura ibiryo, habamo imboga cangwa mu bundi bijyo butandukanye.

Urubuto rw'icyatsi rwifashishwa mu guterwa ng'ibi nk'igihingwa, rwarangiza rugatanga umusaruro. Gutezaga imbere abaturage gugateza imbere n'igihugu. Rukaba ruteye mu butaka bw'umukara, hijya yaho hakaba hari akantu kameze nk'igikuta gafite amabara g'umutuku.

Agafuka gateretse neza gateretsemo ibishimbo bya mushingiriro . Ibishimbo bikaba byifashishwa mu gutegura amafunguro dukoresha mu biryo bya buri munsi harimo ngo guteka ibirayi, guteka ibijumba ,imyumbati n'ibindi biryo byo mu bwoko bugiye butandukanye bikaba byifashishwaga ng'ibirungo by'ingenzi biryoshya ibiryo.

Ibyatsi biri hejuru y'umuceri guhinze munsi yabyo, noneho ibyo byatsi bikaba byifashishwa kugira ngo bimanure imbuto z'umuceri zifashishwa mu kugira ngo umuceri gumere, hamere ugundi mushasha noneho hejuru y'ibyo byatsi hakaba hari amashashi abitwikiriye abibuza imvura kubinyagira kugira ngo bitangirika, noneho ibyo bi ibyo byatsi bikaba bifashwe n'ibiti bibiri bibiri biri imbere n'ikindi kiri ku ruhande ibindi.

Sitoke irimo ibiribwa by'umuceri, ikaba arimo udufuka dufite amabara asa n'umweru, harimo ibara ry'umuhondo, harimo ibara ry'icyatsi, ikaba iteretse ku dutanda tw'ibiti, imbere yaho hakaba hari sima.

Ibishyimbo bifite isuku nyinshi cyane bikaba biri ku ngoko bimwe bindi biri mu base, ariko bifite amabara gagiye gatandukanye, ibishyimbo akaba ari kimwe mu bihingwa byiza cyane kandi bikaba bikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, bikaba bikungahaye intungamubiri zirimo ibyubaka umubiri.

Ubunyobwa buri mu bishishwa byabwo, ubunyobwa akaba ari kimwe mu bihingwa bihingwa cyane cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda, kubera ko ubunyobwa bukunda ahantu hakunda kuba ubushyuhe. Bukaba ari igihingwa gikungahaye ku ntungamubiri zirimo ibyubaka umubiri.

Ibishimbo byiza cyane bihinze ku murongo ubona ko bitunganyije ibishyimbo akaba ari kimwe mu gihingwa gandurabukungu bw'igihugu cyacu kubera ko bidufasha kwihaza mu biribwa tukabona nibyo dushyira ku masoko bityo tukabona inyungu n'amafaranga g'inyongera twakwifashisha mu buzima busanzwe.

Umundu ufite intoki z'inzobe cane ufashe igihwagari mu ntoki, ari guhungura imbuto zaco kugira ngo zize kuvamo ibindu byakoreshwa mu buzima bwa buri munsi, igihwagari kikaba kibamo amavuta g'ubuto n'ibindi bitandukanye, kikaba ari ingenzi cane mu buzima bwacu.

Umugore wicaye ku gatebe k'ibiti afashe ingoko mu ntoki ari kugosora ibishimbo, hijya y'aho hakaba hari akazu kubatswe bya kinyagwanda k'ibyatsi, hijya yaho hakaba hari ibakure n'isiniye hijya yaho hakaba hari ibiti byinshi byiza.

Ubunyobwa bamajije gukura mu butaka barangije baburambika hijya. Ubunyobwa akaba ari kimwe mu bihingwa bifashaga mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu binyuze mu kujana ku masoko, bugacuruzwa no guhaza abaturage bakajya injyo yuzuye, kuko bukungahaye ku byubaka umubiri.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bya mushingiriro, bino bishyimbo bikaba bigira amafaranga, kubera ko iyo byeze bijyanwa ku masoko, bigacuruzwa, byarangiza bigatanga umusaruro ku bihinga, bityo akihaza mu biribwa no mu masoko, akabona ibyo ajyanayo, imbere yabyo hakaba harunze amabuye, hirya mu ruhande hakaba hari igiti gifite ibishababa bya ruvuvu.

Igifuka kibohesheje ubudodo kirimo imbuto. Izo mbuto zikaba zifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba gukorwamo ibiribwa cyangwa se kubeteshwa bikaba byavamo ifu twakwifashisha turikunywa igikoma n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi.

Ubunyobwa buri mu bishishwa bwa byabwo bukaba busa umweru hijya hari ibyatsi bimeze nk'ibirambitse bimeze nk'uduti bikaba biri mu butaka by'umutuku bigaragara ko ahangaha ari mu burasirazuba kubera ko ubunyobwa bwinji bweraga mu burasirazuba bugatanga umusaruro mwiza cyane.

Ibishyimbo byuzuyemo ibyondo byinshi cane bivangavanze bikaba iri mu katete kateretse ku mukeka g'umukara, ibishyimbo bikaba byifashishwaga mu gutegura amafunguro mu buzima bya buri munsi.

Ibigori byinji biri mu buhunikiro bwabyo, ibi bikaba bikoregwa kugira ngo ibigori bibisi tubifate tubyumishe nibimara kuma bityo bivemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba kubeteshamo ifu y'igikoma cangwa se kubikuramo ifu ya kawunga y'ibigori.

Amasaka ni igihingwa gikundaga kwera cane cane mu burasirazuba. kikaba gikungahaye indungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, kandi gikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye. Hakaba bagisyagamo kikavamo ifu, iyo fu tukayifashisha turi kunywa igikoma, n'ibindi bindu byinshi bitandukanye.

Abantu babiri bikoreye amabase garimo ibintu by'imbuto nyinshi. N'undi uri kunyuma ku ruhande ufashe ibase nawe ugiye kwikorera n'abandi batatu bunamye, n'uwundi mugore umanitse ikiganza, aba bakaba bari kurondora ibintu kugira ngo babone ibyo kujana.

Umukobwa usutamye ufite imisatsi y'ibisuko y'umukara, wambaye agapira k'umukara, ufashe ingoko ari gushuka ibishyimbo ku mufuka. Bimwe biri mu base ibindi biri ku mufuka akaba akandagiye kubitaka. Inyuma ye hari agacaca keza.

Agatebo karimo amajeri g'ibisate kagiye gafite amabara gatandukanye, amajeri gakaba gifashishwaga mu gutegura ifunguro ry'ubuzima bwa buri munsi. Kakaba gakungahaye intungamubiri zirimo birinda ingwara bikaba byagufasha mu kurinda no kubungabunga amagara n'ubuzima bwacu.

Umurima gurimo ubunyobwa buri gushashagirana bitewe n'urumuri rwabumutseho. Hejuru yaho hakaba hari igicu kitamuruye, kirimo ibicu by'umweru n'ibicu by'ubururu. Hirya y'aho hakaba hari ahantu hameze nk'ahakikije ugo murima gurimo ubunyobwa bimeze nk'uruzitiro.

Ubunyobwa buri mu kagemeri n'ubundi buri mu dufuka dutoya. Ubunyobwa akaba ari bumwe mu gihingwa gicuruzwa cane kubera ko bukorwamo ifu yo gukoresha batekesha imboga. Ubunyobwa bwo guhekenya bukaranze, ubunyobwa akaba ari bwiza cane kumibereho yacu buri munsi kuko bukungahaye ku ndungamubiri yubaka umubiri.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa bihingwaga mu Gwanda, cyane cyane mu Burasirazuba. Kiba kifashishwa mu gutegura amafunguro, mu buzima bwacu bwa buri musi, bikoreshwa n'imboga, n'ibindi bitandukanye.

Ibiigori by'inyegura byinji birunze ahandu hamwe hari umundu wunamye ufite umutsatsi g'umukara ,wambaye agapira k'umutuku gwijimye n'ipantaro y'umukara ,inyuma ye hakaba hari ibindi byatsi byinshi birebire hakaba hari n'urutsinga rutwaye amashanyarazi hejuru ye.

Umugore witeze igitambaro ari gusarura amasaka, akaba yambaye agapira k'ubururu karimo uturongogo tw'umweru. Amasaka akaba ari kimwe mu bihingwa bizamura ubukungu bwa muntu, kandi bigateza imbere ubukungu bw'igihugu. Hirya ye hakaba hari ibyatsi byinshi birebire.

Umuntu ufashe ingano mu kiganza cye. Ingano zikaba zifashishwa mu gukorwamo ifarini ivagamo imikati, ivagamo amandazi n'ibindi bi bitandukanye. Zikaba zikungahaye ku ntungamubiri zo kubaka umubiri n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi.

Umugore uragiye ihene afashe agakoni mu ndoki wambaye agapira k'umweru n'ijipo irimo amabara gagiye gatandukanye ,imbere ye hakaba hari ihene aragiye n'ibitaka bigiye kuba ng' umutuku ,inyuma ye hakaba hari inka zifite amabara gatandukanye ifite ibara jy'umuhondo n'izindi zifite amabara g'umukara ,inyuma hakaba hari ibishimbo bihahinze n'igiti gifite amashami menshi.

Inka ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umukara, harimo n'ibara ry'umweru. Iri mu kizu cyayo cyubakishijwe ibiti hirya y'icyo kizu hakaba hari umucanga urimo amabuye n'ibiti by'intusi.

Urukwavu ni imwe mu nyamaswa yatangaga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko yororoka mu gihe gitoya cyane, kandi zigakura vuba cyane, zikaba zitanagoye gushakira ubwatsi, kubera ko zitaryaga bwinshi, kandi zikagurishwa amafaranga yateza imbere umucuruzi.

Indama nyinji zifite amabara gagiye gatandukanye harimo indama zimwe na zimwe zifite amabara avanze, harimo iz'umweru gusa n' ifite amabara avanze ,n'imwe yambaye umurunga, inyuma yazo hakaba hari ikiraro cazo co ziraramo hakaba hari umucaca inyuma yazo aho zihagaze ku tubuye twinji.

Inka nziza cyane zifite amabara meza cyane gavangavanze，inka imwe ikaba iri kureba nko hejuru， indi ntoya iri nko hirya， zihagaze mu byatsi bigiye nko kuma，ariko hakirimo ibitari byuma neza， imwe ifite akantu ku gutwi ka nimero kagaragaza nimero y'iyo nka.

busheri irimo inyama zimanitse ku migozi inyuma y'iyo migozi hakaba hari inkingi zikoze mu byuma hejuru yaho akaba ari amabati y'umweru nyama zikaba zimanitse ku byuma zikaba zigizwe n'ibice by'inka birimo amatako

Ingurube ni imwe mu matungo gashobora gutanga umusaruro mwinshi kubera ko ishobora kubwagura utwana twinshi utwo twana nyuma y'amezi nk'atatu tugatangira gutanga umusaruro umugabo usutamye ari kwita ku ngurube ze arikongesha utubwana tw'ingurube ingurube iryamye hasi rikonsa utwana twayo.

Muganga ufashe urushinge rurerure cane urushinge rwo gutera inga mu gihe ifite ubugwayi. Inga ikaba ifite amabara gagiye gatandukanye harimo ibara jy'umweru n'umukara, akaba ari umuganga wambaye itaburiya na gapfukamumwa k'ubururu, wambaye na ga z'ubururu kandi neza cane.

Inga nyinji ziri ahantu hitaruye heza zifite amabara menshi gatandukanye, harimo ifite amabara g'umuhondo, izifite amabara g'umukara, zivanze amabara, ag'umweru n'umukara. Zikaba ziri ahantu hari ibiti bitari birebire bifite udushami duto duto. Ihagaze mu mucaca.

Ingwavu ine ziri kurisha utwatsi, ingwavu akaba ari kimwe mu matungo atangaga umusaruro mwinshi cane mu gihe gito, bico abaturage n'abantu bose bakaba bashishikarizwa kuzorora, kugira ngo babone umusaruro mu gihe cihuse kandi vuba.

Umuganga w'amatungo ufashe imbwa ifite amabara gatandukanye meza cane, ibara ry'umweru n'ibara rigiye kuba ng'umuhondo. Muganga akaba yambaye ga z'ubururu n'itaburiya y'ubururu, afashe akandu ko bashyiraga mu matwi kugira ngo bumve ubuzima bw'ikindu bari gusuzuma.

Ingurube ni imwe mu matungo atanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, kubera ko ishobora kubwagura utwana twinshi cyane, utwo twana bityo mu mezi makeya tugatangira natwo kuguhereza amafaranga, ariko akaba ari inyamaswa irya ibintu ibyo aribyo byose.

Amagi menshi gari mu tuntu bashiragamo amagi. Amagi gakaba gifashishwa mu gutegura ifunguro jya buri munsi. Gakaba gakungayehi gakaba gakungahayemo intungamubiri nyinshi, hari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibiririnda ingwara. Gakaba ari meza ku buzima bwacu, mu kurinda ingwara no kugira ngo tugire ubuzima.

Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zikunda kugira isuku nkeya, kubera umwanda wazo, zikaba zirya ibintu ibyo aribyo byose zibonye, ariko ku bw'ibyo zikaba zinatanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko ishobora kubwagura ububwana bwinshi, bityo bugatanga umusaruro vuba.

Inga zifite amabara gatandukanye. Zimwe zifite agavangavanze n'izindi zifite ibara ryihariye. Zimwe zikaba zifite amabara g'umukara n'umweru, izindi amakara amabara g'umuhondo, zikaba zizengurukijwe n'igipangu c'ibiti, hijya y'aho hakaba hari abantu bameze ng'abashumba bazo.

Ingurube ni mu matungo amwe n'amwe atanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko iyo ibwaguye, ibwagura ubwana bwinshi. Bityo mu mezi nk'atatu ubwo bwanaba bukaba bwakuze na bwo bwatangiye gutanga umusaruro. Rikaba ryororoka mu gihe gitoya cane kandi kigakuza ubwana bwaco mu gihe gitoya cane.

Ihene ni imwe mu nyamaswa iteza imbere ubukungu bw'igihugu n'umuturage, ikaba yagurishwa ikavamwo amafaranga, ayo mafaranga ukaba wayakoresha mu bindi haba mu kwiteza imbere no kwikura mu bukene, ikaba ihagaze ku byatsi byinshi inyuma y'aho hari ikikijwe n'igipangu cy'ibiti.

Ubworozi bw'inkoko mu Gwanda busigaye bwarateye imbere, aho basigaye bifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo inkoko zikure vuba kandi zimeze neza. Akaba ari icyuma gifite ibice bibiri, kimwe cyanditseho mele, ikindi cyanditseho femele, bikaba bisobanura kimwe ko ari inkokokazi, ikindi akaba ari ibisake.

Abaganga ni bamwe mu bantu badufasha mu buzima bwa buri munsi binyuze mu kubungabunga indwara n'ubuzima bwacu kugira ngo imibiri yacu ikore neza kandi turusheho kugira ubuzima bwiza. Abaganga bane bambaye udupfukamunwa bamwe bambaye na marinete bari kuvura umurwayi.

Ubworozi bw'ihene n' ubworozi bushobora kuzamura ubukungu bw'umuntu uzoroye kandi zikamuhesha amafaranga umudamu ufashe ihene mu ntoki witeze igitambaro ihene zifite n'amabara agiye atandukanye ziri mu gipangu cy'amabati

Ihene zifite amabara gagiye gatandukanye harimo ebyiri zifite amabara gw'umukara, imwe ifite ibara jy'umweru n'umuka, indi ifite ibara jy'umuhondo, hijya ya ho hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ga rukarakara, inyuma ya yo hakaba hari urutoki hasi.

Inyoni ifite utubara twiza tw'umuhondo. Ifite umunwa usongosoye n'akabara k'umukara kari inyuma y'umunwa n'ijisho ritukuye. Ikaba ihagaze ku cyari kiri ku gati gatoya, ikaba inyoni ari kimwe mu biguruka gifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero byinshi.

Inyoni ebyiri ziteganye. Imwe ifite akantu mu kanwa. Iyindi iri kureba hasi ngo irebe ako yarya, kandi zikaba zikandagiye kugisima. Inyoni zikaba zimwe mu biguruka bifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero byinshi, kandi zikaba zabasha kurya ibiryo bikeya ugereranyije n'ibindi biguruka.

Igikeri nyamabondo gifite inzara ndende, gifite amaso gw'umukara, kiri ku dushaba tw'indusi, hijya yaho hari akatsi k'icyatsi, gihagaze ku butaka bw'umukara, cyane ibikeri bikaba bikundaga kuba ahantu habaga amazi menshi.

Inyoni ifite amabara meza cane ifite umunwa gusa n'uguhinye nyuma yugo munwa gato hakaba hari akabara k'umuhondo keza n'ijisho ry'umukara ikaba ifite amababa g'umukara n'akabara k'umweru kari ngo gafatanye n'amabara g'umukara n'akandi kabara kagiye kuba nka kijimye keza cane.

Imbogo ifite amahembe gameze nkagihinnye, hejuru yayo ku mugongo hakaba hari agasimba ko mu bwoko bw'ibiguruka gafite amababa y'umweru n'umunwa gusongosoye .Imbogokaba ari inyamaswa iteye ubwoba kubera ko abantu benshi barayitinyaga kuko yicaga abantu.

Inyoni nziza cyane ifite amabara meza cyane gavangavanze, ifite umunwa gusongosoye n'amaso g'umukara ikaba ihagaze ahantu hameze nko ku mucanga, ifite imirizo zifite amabara g'umukara akaba ari inyoni zigurukaga mu kirere, zigiraga amajwi meza.

Inyoni nziza cane ifite amunwa muremure, ifite n'utubara twiza tugiye dutandukanye turimo utudomo, ikaba ihagaze ku gati igiye gutamira akantu kameze nk'agafi gatoya, inyuma yaho hakaba hari ibara ritari kugaragara rigiye kuba nk'icatsi, akaba ari inyoni nziza cane.

Udusimba two mu ishamba twitwa isha dufite amahembe, kamwe gafite amahembe maremare gasa na gihinye n'akandi gafite amahembe maremare gasa na gihinye nago, imbere yatwo hakaba hari uturabyo twiza tw'umuhondo, inyuma yatwo hakaba hari ikindu kimeze ng'umusozi ,umusozi guteyeho ibiti akaba ari udusimba dufite amabara gasa.